Umuceri usa nkaho ugabanyije mu tubase dutandukanye. Umuceri ni mwiza cyane kuko ufite intungamubiri zigiye zitandukanye.

Ipombo iri gutera umuti ku nyanya zikiri ibitoshyi. Inyanya ni nziza cyane iyo uzitayeho zikera zigira intungamubiri zitandukanye.

Abagabo babiri bari gutwara ifumbire y'imborera. Ifumbire ni nziza cyane ikomoka ku matungo kandi ifite akamaro kanini mu gukuza imyaka.

Umuntu urikuyobora ifumbire y immbora ifumbire y'imborera ni nziza c kuyikoresha ku bihingwa bitandukanye ibikuza neza cyane.

Ifumbire y'imborera irunze mu gitari. Iyi fumbire ni nziza cyane kuko ikoreshwa mu buhinzi, kandi igatuma ikimera gikura neza.

Umuntu uhagaze hejuru y'ifumbire y'imborera. Ifumbire y'imborera ni ifumbire nziza cyane yifashishwa mu gukora ubuhinzi.

Ifumbire iziritse ku gare iri gusunikwa n'umuntu, ifumbire ni nziza cyane ikorerwa mu ruganda, igafasha ibihingwa mu gukura vuba kandi neza.

Umugabo uri gufuhira imyaka. Gufuhira imyaka ni byiza cyane, kuko bituma imyaka itajyaho udusimba tumwe na tumwe dutandukanye twayona.

Amafi akiri mabisi. Ifi ni nziza cyane kuko ifite intungamubiri zigiye zitandukanye, zifasha umubiri w'umuntu.

Amafi ari ahantu heza habugenewe. Amafi ni meza cyane kuko afite intungamubiri zitandukanye ku mubiri, ku muntu wayariye.

Ifi iteguye neza. Ifi ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu kuko itanga intungamubiri, vitamini n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ifi iri kumwe n'ibirungo byayo, karoti, inyanya, sereri kandi byose bikize kuri vitamini umubiri w'umuntu ukenera buri gihe.

Ikiyaga cya kivu kigaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiyaga ni cyiza cyane kuko gifasha mu gukurura imvura ndetse gicumbikiye bimwe mu binyabuzima.

Ifi imeze nk'aho iri muri barafu. Ifi ni nziza cyane ku muntu wayiriye, kuko igira intungamubiri nyinshi cyane zitandukanye.

Amafi asa n'aho ari mabisi, amafi ni meza cyane, kuko agira vitamini nyinshi cyane umubiri w'umuntu ukeneye.

Amafi ameze nk'aho ari mabisi. Amafi ni meza cyane kuko afite vitamini nyinshi zigiye zitandukanye, zifasha umubiri w'umuntu.

Icyuzi cyo kororeramo amafi, icyuzi gifasha amafi gukura atekanye, kigafasha n'abantu kuyacunga neza uko babishaka.

Amafi ari mu tuntu tune dutandukanye. Amafi ni meza cyane kuko agira intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Amafi ateguye neza, amafi ni meza cyane kuko agira intungamubiri zigiye zitandukanye, umubiri w'umuntu uba ukeneye.

Ikiyaga cya kivu giherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Ikiyaga ni cyiza cyane, kuko gifite akamaro kanini ko kuzana ba mukerarugendo bo kureba ibinyabuzima bikibamo.

Amafi akiri mabisi arunze hamwe. Amafi ni meza cyane atuma umubiri wacu ugira intungamubiri nyinshi.

Amafi mabisi, amafi ni meza cyane kubera ko afite intungamubiri zigiye zitandukanye ku mubiri w'umuntu wayariye.

Inyama imeze nk'aho ari mbisi, iteguye neza ku isahani, inyama ni nziza cyane, kuko zigira intungamubiri nyinshi cyane.

Ifi iteguye neza cyane. Ifi ni nziza ku mubiri w'umuntu wayiriye kuko yongeramo intungamubiri zigiye zitandukanye nyinshi.

Amafi akiri mabisi akiri mu kintu cy'umweru. Amafi ni meza cyane ku muntu wayariye. Amafi agira intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu iyo yayariye.

Inyama y'ifi iteguye neza cyane, irimo n'agasosi, ifi ni inyama nziza cyane, ifite vitaminini umubiri w'umuntu ukenera buri gihe.

Indyo yuzuye, iteguye neza, iriho n'ifi nziza cyane, ibi biryo bifite intungamubiri nyinshi cyane umubiri w'umuntu akeneye.

Umuzungu wicaye hejuru y'ubwato buri mu kagezi gatoya, asa nkaho ari kuroba, kuroba n'umwuga mwiza cyane ufite amafaranga ushobora kugutunga.

Ifi iteguye neza iri ku isahani, ifi ni nziza cyane kuko igira vitamini umubiri w'umuntu uba uba ukeneye.

Inyama y'ifi iteguye neza cyane, ifi ni nziza cyane, kuko ifite vitamini nyinshi ku mubiri w'umuntu wayiriye.

Ifi iteguye neza cyane. Ifi ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu, kuko ifasha mu kongera intungamubiri mu mubiri we.

Ibizenga cyangwa se amadamu yo kororeramo amafi, ibi bizenga ni byiza cyane, kuko bifasha gucunga amafi ku buryo bwizewe kandi bwa hafi.

Amafi mabisi abitswe muri barafu kugira ngo atangirika. Amafi ni meza cyane kuko akungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye zifasha umubiri w’umuntu.

Ku nkombe ahaparitse ubwato busa nkaho ari ubwifashishwa mu kuroba. Kuroba ni umwuga mwiza wakubeshaho ukabaho ukiteza imbere ariko ukabona n'ibyo kurya bifite intungamubiri birimo nk'amafi.

Udufi duto turunze mu mabase, utu dufi ni twiza cyane, kuko tuzana vitamini mu mubiri w'umuntu waturiye.

Ifi imeze neza iteguye neza ariko ikiri mbisi, ifi ni nziza cyane kuko zizana intungamubiri, mu mubiri w'umuntu.

Inyama z'ifi ziteguye neza . Ifi ni nziza cyane kuko zigira intungamubiri zitandukanye, umubiri wacu ukeneye.

Amafi asa nkaho ari mabisi. Amafi ni meza cyane ku mubiri w'umuntu, kuko afite vitamini nyinshi cyane umubiri w'umuntu ukenera.

Amafi asa naho ari mabisi, amafi ni meza cyane kuko agira vitamini ihagije ku mubiri w'umuntu wayariye.

Inyama ziteguye neza cyane. Inyama ni nziza cyane ku mubiri w’umuntu. Iyo yaziriye, amererwa neza kandi akagira vitamini nyinshi.

Igihingwa cy'amajeri. Amajeri ni igihingwa cyiza cyane, gifite akamaro kanini mu kuzamura imirire myiza mu gihugu cyacu.

Ibishyimbo bifite uruyange rw'umutuku. Ibishyimbo ni byiza cyane, kuko bitanga imiteja ikavamo ubwoko bw'imboga bukize kuri vitamini, umubiri w'umuntu ukeneye.

Amajeri ahinze mu kibara. Amajeri ni meza cyane, ni utubuto tugira vitamini nyinshi cyane umubiri w’umuntu ukenera.

Ibihingwa bya karoti. Karoti ni nziza cyane zizana intungamubiri kandi zivura indwara zimwe na zimwe z'amaso.

Amajyeri cyangwa se amashaza ahinze ahantu mu kibara. Amajyeri ni meza cyane, kuko afite akamaro ko kuzana intungamubiri.

Ibirayi bigeze mu gihe cyo kuzana uruyange, ariko bitari byera neza. Ibirayi ni byiza cyane kuko bitanga vitamini ku mubiri w'umuntu iyo yabiriye.

Umurima uhinzemo ibirayi, ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, ibirayi bituma umubiri w'umuntu wongera imbaraga iyo yabiriye.

Ubutaka buhinzeho urutoki nubwo atari rwinshi. Ibitoki ni byiza cyane, kuko bigira akamaro ku mubiri w'umuntu wabiriye.

amatungo magufi azwi ku izina ry'intama, aziritse hagati yo mu kibara. Aya matungo ni meza cyane, kuko agira inyama zikungahaye kuri vitamini zitandukanye.

Umurima uhinzemo ibitunguru. Ibitunguru ni byiza cyane, kuko bigira vitamini nyinshi cyane umubiri w'umuntu ukeneye.

Ibiti, ibiti by'imisave, ibiti ni byiza cyane, iyo ubiteye ushobora kuzakuramo imbaho zikomeye, zikora ibigiye bitandukanye.

Ibiti birebire bifite amashami n'utundi duti duto ku ruhande. Ibiti bidufitiye akamaro kanini cyane kuko bikurura imvura tukayibona.

Ahantu hahinze insina cyangwa se ibitoki, ibitoki ni igihingwa cyiza cyane gikungahaye kuri vitamini nyinshi cyane, umubiri w'umuntu ukeneye.

Umurima uhinzemo ibirayi ariko bitari byera, ibirayi ni igihingwa cyiza cyane gikungahaye kuri vitamini, ndetse no kongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Umurima uhinzemo amajeri. Amajeri ni igihingwa cyiza cyane kigira vitamini ku mubiri w'umuntu. Iyo umuntu yariye amajeri aba yariye vitamini.

Umurima uhinzemo karoti zihinze neza, karoti ni nziza cyane kuko zigira vitaminini zivura indwara zimwe na zimwe z'amaso.

Igitari kirimo ibiti birebire by'umweru. Ibiti ni byiza cyane kuko bivamo amakara avura indwara zigiye zitandukanye.

Ibiti by'imigano biteye ahantu kunzira, imigano ni ibiti byiza cyane kuko birinda inkuba hamwe na hamwe ntizikunde kuhakubita zikaba zagira ibyo zangiza.

Igitoki gisa nkaho kigiye kwera, igitoki ni cyiza cyane kuko gifite intungamubiri umubiri w'umuntu ukenera buri munsi.

Umurima uhinzemo igihingwa cya karoti, karoti nziza cyane. Kuko zizana intungamubiri zigiye zitandukanye, mu mubiri w'umuntu waziriye.

Ibiti birebire bifite inusi z'umweru. Izi ntusi ni nziza cyane kuko zifite akamaro, zivamo amakara avura indwara zigiye zitandukanye.

Ibirayi bitari byera ariko bisa nk'aho bigiye kwera, ibirayi ni byiza cyane kuko bifite intungamubiri, kandi byongera imbaraga umubiri w'umuntu wabiriye.

Umurima uhinzemo ibitunguru. Ibitunguru ni byiza cyane, kuko bifite intungamubiri ku mubiri w'umuntu ukunze cyangwa se wabiriye

Ahantu hateye inturusi z'umweru. Izi nturusi ni nziza cyane, kuko zikorwamo amakara avura abantu bagakira indwara zimwe na zimwe.

Amajeri ahinze mu kibara kirimo n'ibindi byatsi, amajeri ni meza cyane ku mubiri w'umuntu kuko agira intungamubiri zigiye zitandukanye.

Igihingwa cy'amajeri, amajeri ni igihingwa cyiza cyane gifite utubuto dukungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye.

Ibitoki bikiri hejuru batari babica, ibitoki bisa nk'aho ibigiye kwera, igitoki ni igihingwa cyiza cyane gikungahayeho intungamubiri umubiri w'umuntu ukenera.

Intama ni ubwoko bw'amatungo magufi, intama ni nziza cyane kuko zivamo inyama, inyama zifite intungamubiri zigiye zitandukanye.

Ibihingwa by'ibirayi, ibirayi ni igihingwa cyiza cyane gifite vitamini umubiri w'umuntu ukeneye. Ibirayi bituma umuntu agira imbaraga mu mubiri we.

Ahantu hahinze neza ku buryo bwa kijyambere, ariko hari insina. Insina ni nziza cyane kuko zeza ibitoki, ibitoki bikagira intungamubiri zitangaje ku mubiri wacu.

Ibiti by'umusave, Umusave ni igiti cyiza cyane gikomera ,umuntu ashobora kugitera, cyakura bakakibazamo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Karoti zihinze neza ku muronko, karoti ni nziza cyane kuko zifasha mu kongera intungamubiri, zifasha guhumura amaso ku mubiri wumuntu.

Ibirayi birunze hamwe. Ibirayi ni byiza cyane bigira intungamubiri ku mubiri w'umuntu, kandi bikamwongerera imbaraga mu mubiri we.

Abantu bari gukora mu gishanga cy'umuceri, umuceri ni igihingwa cyiza cyane gikungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye, umubiri wacu ukenera.

Intama zikiri ntoya. Udutama ni itungo ryiza cyane ritanga ifumbire, amafaranga, ndetse n'inyama zifite vitamini.

Inka nyinshi cyangwa se ishyo ry'inka. Inka ni nziza cyane, kuko zitanga amata, inyama n'ifumbire ku bahinzi.

Imiteja y'ibishyimbo, imiteja ni ubwoko bw'imboga, imiteja ni myiza cyane, iyo umuntu yayiriye yongera vitamini mu mubiri we, akamererwa neza.

Abantu bari gukura ibirayi. Ibirayi ni byiza cyane kubera ko bigira intungamubiri nyinshi zitandukanye, ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Umukobwa uri kurya igihaza cya wotameloni, wotameloni ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu kuko yongeramo isukari.

Ikijumba cy'umuhondo cyisatuye, ibijumba ni byiza cyane kuko bikubiyemo intungamubiri nyinshi, kandi bikaba byongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Abantu bari guhinga umurima udafite icyo uteyemo. Guhinga ni byiza cyane kuko bifasha, kongera ibiribwa mu gihugu ndetse no ku yandi masoko mpuzamahanga.

Abantu bari gushyira ifumbire ku bihingwa, harimo n'ushinzwe umutekano w'igihugu. Gushyira ifumbire ku bihingwa ni byiza cyane, kuko bibifasha gukura vuba kandi neza.

Umugore ufite uruboga rw'ishu. Amashu ni imboga nziza cyane, zifite vitamini umubiri w'umuntu uba ukeneye.

Umugore uri guhinga ibinyomoro cyangwa se uri kubyitaho. Ibinyomoro ni ikimera cyiza cyane cyera imbuto zifite vitamini nyinshi umubiri wacu ukenera.

Umugabo uri gusuka inyanya mu dufuka, inyanya ni igihingwa cyiza cyane gikungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye umubiri w'umuntu ukenera.

Inyanya zitukuye, inyanya ni nziza cyane ,kuko zifite akamaro kanini ku mubiri w'umuntu waziriye neza.

Uruyange rw'urunyanya rwenda kuzaho ibitusha, urunyanya ni rwiza cyane, kuko rufite intungamubiri, vitamini nyinshi kuwabiriye.

Ababyeyi baba mama bari guhinga mu murima w'ibijumba , ibijumba ni byiza cyane n'igihingwa cyongera imbaraga umubiri w'umuntu.

Indimu itukuye n'izindi zidatukuye. Indimu ni imbuto nziza cyane, zifite akamaro ko kongera vitamini mu mubiri w'umuntu iyo yaziriye.

Ibirayi byinshi birunze hasi ku butaka, ibirayi ni imbuto nziza cyane cyangwa se ibiribwa bituma umuntu agira imbaraga mu mubiri we iyo yabiriye.

Ibigori byumye bimanitse hejuru ku biti mu nzu nini cyane. Ibigori ni byiza cyane, kuko bizana intungamubiri ihagije mu mubiri w'umuntu.

Isoko ry'ibiribwa, ririmo inyanya ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, byose bikungahaye kuri vitamini zokongerwa mu mubiri w'umuntu.

Inka ziri ahantu mu gikuyu cyangwa se mu rwuri, inka ni nziza cyane kuko zifite akamaro kanini ziduha inyama, amata , byose bifite intungamubiri zitangaje.

Umugore uri hagati mu nyanya zitukuye, inyanya n'igihingwa cyiza cyane gifite vitamini nyinshi, umubiri w'umuntu ukenera.

Urubuto rwa oranje, urubuto ni rwiza cyane, kuko rufite intungamubiri zigiye zitandukanye, ku mubiri wumuntu waziriye.

Umugabo uri hagati mu nyanya, inyanya ni nziza cyane zigira vitamini zigiye zitandukanye ku mubiri w'umuntu iyo yaziriye.

Abagore bari gusoroma icyayi, icyayi ni cyiza cyane kuko kizana amafaranga ku bagihinze, ndetse kigateza imbere igihugu cyacu.

Indimu ikasemo kabiri indi ikiri yose, indimu ni urubuto rwiza cyane rufite vitaminini kandi ruvura indwara zimwe na zimwe.

Amateke arunze hasi, ahameze nk'aho ari mu isoko. Amateke ni igihingwa cyiza cyane, gifite akamaro ko kongera imbaraga mu mubiri w'umuntu wayariye.

Abantu bari gukura ibirayi. Ibirayi ni byiza cyane, kuko bigira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu, harimo no kumwongerera imbaraga.

Ibitunguru by'umutuku. Ibitunguru ni byiza cyane kubera ko bigira vitamini nyinshi ku muntu wabikoresheje.

Amateke ari mu gasafuriya. Amateke ni meza cyane, kuko yubaka umubiri, kandi yongera imbaraga mu mubiri w'umuntu, iyo yayariye.

Amatunda yumye wagira ngo barayaranduye , amatunda ni meza cyane agira intungamubiri nyinshi , ku mubiri w'umuntu wayariye.

Umugore uri gusarura cyangwa se uri gukura igihingwa cya karoti. Karoti ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu wayiriye, kuko igira intungamubiri nyinshi zamufasha.

Abantu bari gushingirira ibishyimbo. Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane, kuko kigira intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu, iyo yakiriye.

Abantu bafite ibijumba mu ntoki. Ibijumba ni igihingwa cyiza cyane gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane, kikaba cyongera n'imbaraga ku mubiri w'umuntu.

Umugore uri hagati mu bishyimbo bitari byera by'uruyange. Ibishyimbo ni byiza cyane kuko aya mababi yabyo, afite vitamini iyo ubitetse mu bwoko bw'imboga.

Umugore uri kwita ku birarayi. Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, kuko gitanga amafaranga mu muryango, ukiteza imbere.

Ahantu hanini hahinze ikawa. Ikawa ni nziza cyane kuko izanira igihugu n'uwayihinze amafaranga.

Igihaza gisa nk'aho gifite ibara ry'umuhondo, igihaza ni cyiza cyane kigira intungamubiri zigiye zitandukanye, umubiri wacu ukeneye.

Ibi bigori bisa nk'aho ari bibisi. Ibigori ni byiza cyane kuko bitanga ibyatsi ku matungo, ndetse n'intungamubiri ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Umuntu ufite inanasi, inanasi ni ubwoko bw'imbuto bwiza cyane bwongerera vitaminini umubiri umuntu wayiriye.

Ibigori bikiri mu murima bitari byasarurwa. Ibigori ni byiza cyane kuko bivaho ibyatsi by'amatungo, kandi na byo ubwabyo bigira vitamini.

Voka n'imineke biteretse ku ntara. Voka n'imineke ni imbuto nziza cyane ,zifite vitamini igiye itandukanye ku mubiri w'umuntu.

Umugabo uri mu muririma winyanya uri kuzisarura. Inyanya ni nziza cyane, inyanya zifite vitamini zigihe zitandukanye, umubiri w'umuntu ukeneye.

Isoko ririmo inyanya, pwavuro n'izindi mbuto zigiye zitandukanye. Byose bikaba bikize kuri vitamini zigiye zitandukanye.

Ipapayi ihiye neza igabyemo kabiri. Ipapayi ni nziza cyane ni urubuto rugira vitamini nyinshi cyane umubiri w'umuntu ukeneye.

Umuntu uri hagati y'ibishyimbo bikiri bibisi, bitari byera neza. Ibishyimbo bifite akamaro kanini, kuko biraribwa mu buzima busanzwe.

Igihingwa cy'itunda, itunda ni ryiza cyane ni urubuto rukize kuri vitamini zitandukanye umubiri w'umuntu ukenera burigihe.

Karoti ni igihingwa cyiza cyane gifite vitamini zizwiho kuvura amaso, ndetse n'utundi dutandukanye twibasira umubiri w'umuntu.

Ubwoko bw'imbuto bwitwa inanasi. Inanasi ni nziza cyane zifasha kongera vitamini mu mubiri w'umuntu zitandukanye.

Udukwavu twa kizungu, udukwavu tumeze neza cyane, udukwavu dufite akamaro kanini, kuko zikora ifumbire kandi zigatanga inyama umubiri w'umuntu uba ukeneye, vitaminini ikubiye muri izo nyama.

Imiteja irunze ahantu hamwe ku mbaho, imiteja ni myiza cyane, kuko iri mu bwoko bw'imboga umubiri w'umuntu uhora ukeneye.

Imiteja ziri mu gafuka ,imiteja ni myiza cyane ,kubera ko iri mu bwoko bw'imboga ,kandi ikungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye.

Ibigori bigifite ibara ry'icyatsi bisa nkaho bitari byera neza, ibigori ni byiza cyane kuko bifite intungamubiri zigiye zitandukanye.

Imifuka ipakiyemo ibirayi, ibirayi ni byiza cyane kuko bifite intungamubiri zitangaje, ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Imyembe irunze hamwe, imyembe ni imbuto nziza cyane kubera ko ikize kuri vitamini ,igira vitamini umubiri w'umuntu uba ukeneye buri gihe.

Igitoki kitari cyera neza, igitoki ni cyiza cyane kuko kigira intungamubiri nyinshi cyane, umubiri w'umuntu uba ukeneye.

Abagore batatu bari guhinga umurima. Guhinga ni byiza kuko bituma igihugu kitabonekamo inzara, ntikiburemo ibyo kurya.

Ikawa zihinze ku gasozi, kawa ni igihingwa cyiza cyane kizana amafaranga mu muryango w'umuntu wayihinze.

Umuntu uri mu bigori hagati. Ibigori bisa nk'aho bigiye kugera igihe cyo kwera. Ibigori ni igihingwa cyiza cyane gifite vitamini nyinshi.

Ibitunguru byiza bigezweho. Ibitunguru ni byiza cyane, kuko bifite intungamubiri zitandukanye, zikenerwa n'umubiri w'umuntu.

Imbuto zikiri mu giti. Imbuto zisa n’icyatsi. Imbuto ni nziza cyane ku mubiri w’umuntu. Iyo umuntu ariye imbuto, aba ariye intungamubiri zigiye zitandukanye.

Ikigori gisa nk'aho kigiye kwera ariko kitari cyuma neza. Ibigori ni byiza cyane, bigira vitamini, mu mubiri w'umuntu ubiriye.

Igitoki gisa nkaho kigiye kugira imineke, igitoki ni cyiza cyane kuko kivamo imineke, uwagihinze kikamuha amafaranga kandi kibamo vitamini zigiye zitandukanye.

Ibirayi birunze hamwe ku gisima. Ibirayi ni byiza cyane kuko byongera intungamubiri, bikongera imbaraga ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Ibigori bitari byera neza bigifite ibara ry'icyatsi, ibigori ni byiza cyane, kuko bitanga ibyatsi ku matungo, kandi abantu bakabirya.

Ibirayi biri guhingwamo n'abantu bisa nk'aho bitari byera, ibirayi ni byiza cyane, kuko bikungahaye ku ntungamubiri, bikongera imbaragaraga mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Inkoko ziri gusangirira hamwe z'umweru n'umukara. Inkoko ni nziza cyane, kuko zitera amagi, zikavaho inyama zifite vitaminini zigiye zitandukanye.

Ibirayi biri mu mufuka munini ibirayi, ibirayi ni igihingwa cyiza cyane kuko cyongera imbaraga mu mubiri w,'umuntu wakiriye bityo bigatuma ahorana imbaraga n'ubushake bwo gukora umurimo.

Ibijumba bikiri ku butaka. Ibijumba ni byiza cyane, bigira vitamini nyinshi ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Amateke ni meza cyane, kubera ko agira intungamubiri zo kubaka umubiri wacu, mugihe twayariye.

Ibigori byokeje neza, ibigori ni byiza cyane, kuko bizana vitamin zigiye zitandukanye, ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Impeke z'imbuto zanitse ku ihema, izi mpeke ni nziza cyane kuko zitanga vitamini ku mubiri w'umuntu akamererwa neza.

Umurima uhinzemo ibirayi bitari byeyera. Ibirayi ni byiza cyane, iyo wabiririye ubona vitamini kandi ugira imbaraga.

Avoka ziri mu kintu kimwe, avoka ni nziza cyane kuko zigira intungamubiri nyinshi cyane, ku mubiri w'umuntu waziriye.

Igihaza gisatuye , igihaza ni cyiza cyane , kuko gifite intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu wakiriye.

Umukumbi w'amahene menshi , amahene ni ubwoko bw'amatungo magufi bufite akamaro kenshi , kuko ateza imbere umuntu uyoroye.

Ibirayi bikizana uruyange bitari byera neza. Ibirayi ni byiza cyane kuko bifitiye akamaro umubiri w'umuntu wabiriye.

Umugore uri gusarura icyayi, ni cyiza cyane kuko gitanga akazi ku bantu, bakagisarura bakabona amafaranga.

Imyembe itondetse imeze nk'aho iri gucuruzwa, imyembe ni imbuto nziza cyane zifite intungamubiri zitandukanye zongerwa mu mubiri w'umuntu.

Abaturage bari guhingira hamwe bisa nk'aho bari gukora umuganda. Gukora umuganda ni ibintu byiza cyane, kuko ari ishusho yo gusukura igihugu, kandi ni ishusho y'uko abaturage bakorera hamwe.

Abantu bari guhinga b'abadamu cyangwa se b'abamama, guhinga ni umwuga mwiza cyane kuko ni byo bituma umuntu abona ibyo kurya, akihaza mu biribwa no mu byo akeneye byose.

Imyumbati irunze hamwe, imyumbati ni myiza cyane kuko zongerera imbaraga umubiri w'umuntu wayiriye ndetse kandi zifite n'izindi vitamini zigiye zitandukanye.

Abantu bavuye mu murima gusarura icyayi, icyayi ni igihingwa cyiza cyane kuko kizana amafaranga ku muntu wagihinze ndetse n'uwagisoromye.

Amateke akiri mu butaka ahinze, amateke ni meza cyane ni igihingwa gikize cyongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Umugabo uri kureba imbuto z'amatunda, amatunda n'imbuto nziza cyane zifite intungamubiri, umubiri wa muntu uba ukeneye.

Imifuka y'imiceri, umuceri ni mwiza cyane kuko ufite akamaro kanini ku mubiri w'umuntu gatandukanye.

Umuntu ufashe ibigori bibisi biteze neza. Ibigori ni byiza cyane kuko bifite akamaro kanini ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Ibirayi birunze hasi ku butaka. Ibirayi ni byiza cyane, kuko byongera imbaraga umubiri w'umuntu iyo yabiriye.

Igihingwa cy'umwumbati. Umwumbati ni igihingwa cyiza cyane, gifite akamaro ko kongera imbaraga mu mubiri w'umuntu iyo yakiriye.

Igitoki kiri hagati mu ikawa. Ibi bihingwa byose bifite akamaro ko kuzamura ubukungu, ndetse no guha amafaranga umuntu wabihinze.

Ihene nziza, ihene y'amabara meza ,ihene ni itungo rigufi ryiza cyane, rivamo inyama zifite vitamini zigiye zitandukanye ,zifasha umubiri w'umuntu.

Ibigori bigifite amababi y'icyatsi bitari byera neza. Ibigori ni byiza cyane kuko bizana intungamubiri mu mubiri w'umuntu iyo yabiriye.

Umuntu ufite ibirayi mu kiganza cye, ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, gikungahayeho intungamubiri zigiye zitandukanye, zirimo nko kongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Ibigori bisa n'icyatsi bikiri bibisi bitari byera neza bikiri mu murima, ibigori ni byiza cyane, kuko bigira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu.

Avoka isatuye. Avoka ni urubuto rwiza cyane rugira vitaminini zigiye zitandukanye mu kongera ibinure mu mubiri.

Imbuto z'amapera harimo irisatuye. Amapera ni meza cyane kuko afite intungamubiri umubiri w'umuntu ukeneye.

Abagabo bari kumanura ibitoki hejuru mu modoka. Ibitoki ni byiza cyane kuko bizana intungamubiri nyinshi cyane mu mubiri w'umuntu.

Urubuto rw'ipera rusatuye izindi zikiri nzima amapera ni meza cyane, umuntu wayariye aba ariye intungamubiri zifatika zikenewe mu mubiri we.

Impeke z'ibigori zanitse ku mufuka, ibigori ni byiza cyane kuko bifite intungamubiri, zifasha umubiri w'umuntu gukura neza.

Abantu bari gukora umurimo wo gushingirira ibishyimbo. Ibishyimbo ni byiza cyane, kuko bikize ku ntungamubiri zigiye zitandukanye.

Ingurube iri mu kiraro. Ingurube ni itungo ryiza cyane, itungo rikize kuri vitamini zigiye zitandukanye umubiri w’umuntu ukenera.

Amaronji ari mu kadobo k'umutuku yeze neza. Amaronji ni ubwoko bw'imbuto bwiza cyane, bukungahaye kuri vitamini zitandukanye.

Umugore uri gutera umuti mu bigori, ibigori ni byiza cyane iyo ubyitayeho biguha umusaruro, ukabona amafaranga n'ibyo gutunga umuryango.

Ibirayi bipakiye neza mu mufuka. Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane gikungahaye kongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu, kikamwongerera n'imbaraga.

Imifuka myinshi ipakiyemo ibirayi ibirayi ni byiza cyane kuko bifite intungamubiri nyinshi cyane kandi bikaba byongeraga imbaraga mu mubiri w'umuntu wabiririye.

Isoko rimeze nk'aho ari iry'ibiribwa, ariko byiganjemo imbuto. Imbuto ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu ukeneye imbuto buri gihe kugira ngo zimufashe kwirinda indwara zimwe na zimwe.

Amateke akataguye amateke r kubera ko agira vitaminini zigiye zitandukaniye mu mubiri nk'umuntu uyariye.

Umurima uhinzemo ibitunguru. Ibitunguru ni byiza cyane, kuko bifite akamaro kanini cyane ku mubiri w'umuntu.

Igihingwa cyitwa puwavuro, puwavuro ni igihingwa cyiza cyane, gikungahaye ku ntungamubiri, umubiri w'umuntu uba ukeneye igihe cyose.

Abantu bamaze gukura ibirayi mu murima, ibirayi ni byiza cyane kuko bizana intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Amaronji ari mu gitebo, amaronji ni imbuto nziza cyane kuko agira vitamini ku mubiri w'umuntu iyo yayariye.

Abantu bari gutunganya voka. Voka ni nziza cyane, kuko zifite akamaro kanini ku mubiri w'umuntu waziriye.

Ipera risatuye ndetse n'irindi ribumbye, ipera ni ryiza cyane ,kuko rifasha mu kongera vitamini mu mubiri w'umuntu wayariye.

Umugabo uhagaze mu murima w'amatunda. Amadunda ni urubuto rwiza cyane, rukungahaye kuri vitamini umubiri w'umuntu ukenera.

Ibihaza binini biteretse ahantu hamwe, ibihaza ni byiza cyane ,bigira vitamini zikomeye ku mubiri w'umuntu.

Abantu benshi bameze nk'aho bari gukora umuganda, gukora umuganda ni igikorwa cyiza cyane, kigaragaza gusukura no kwita ku gihugu cyatubyaye.

Karoti zirunze ku gisima n'itureyi irimo amagi. Ibi ni ibiribwa byiza cyane, bikungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye.

Umugore ufashe igiti kiriho imyumbati. Imyumbati ni myiza cyane kuko ifite intungamubiri, kandi yongera imbaraga umubiri w'umuntu.

Umugore uri kwita ku bihingwa bye, bimeze nk'aho ari ibigori. Ibigori ni byiza cyane kuko bitanga intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Urubuto rw'amapera abiri ari ku gashami kamwe. Amapera ni meza cyane kuko nayo afasha mu kongera intungamubiri, ku mubiri w'umuntu wayariye.

Umugabo n'umugore bafite ibihaza bizwi nka wotamerone. Wotameloni ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu wazikoresheje. Zongera na zo isukari mu mubiri we.

Ibijumba biri mu kabase. Ibijumba ni igihingwa cyiza cyane, kandi gifite intungamubiri, cyongera imbaraga mu mubiri w'umuntu wakiriye.

Igitoki kidahiye, igitoki cyiza, iki gitoki ni cyiza cyane, iyo ukiriye uba uriye intungamubiri nyinshi ku mubiri wawe.

Ubunyobwa bw’umutuku bw’impeke. Ubunyobwa ni bwiza cyane ku muntu waburiye kuko bugira intungamubiri nyinshi ku mubiri we.

Indimu, amaronji n'izindi mbuto ni imbuto nziza cyane zigira intungamubiri ku mubiri w'umuntu waziriye.

Voka nziza cyane, isatuyemo ibice bibiri. Voka ni nziza ku mubiri w'umuntu, kuko ifite vitamini nyinshi cyane zitandukanye.

Abantu bari gukorera umuceri , umuceri ni igihingwa cyiza cyane , gikungahaye kuri vitamini zifasha umubiri w'umuntu.

Itunda risatuye n'iribumbye, amatunda ni urubuto rwiza cyane, rukungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye, zifasha umubiri w'umuntu.

Imyembe iri mu kintu cy'ubururu. Imyembe ni imbuto nziza cyane ikungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye. Imyembe ni imbuto nziza umubiri w'umuntu uba ukeneye buri gihe.

Umuntu ufite igiti yaranduye kiriho imyumbati. Imyumbati ni igihingwa cyiza cyane, gikize kuri vitamine, ndetse cyongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Ibijumba bikuye, ibijumba ni byiza cyane, kuko bizana intungamubiri ku mubiri w'umuntu wabiriye, kandi bikubaka uwo mubiri we.

Udukoko dutoya tworowe mu buryo bwa kijyambere tw'udushwi, inkoko ni nziza cyane zitera amagi, zitanga inyama, byose bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye.

Imyumbati iri ahantu hamwe, imyumbati ni myiza cyane, ifite akamaro gatandukanye, kongera imbaraga mu mubiri w'umuntu, ndetse n'ibindi byinshi.

Ibigori bitari byagera igihe cyo kwera. Ibigori ni byiza cyane kuko bigira ibyatsi byo kugaburira amatungo kandi bigira vitamini ku mubiri w'umuntu.

Urubuto rw'ipera, ipera ni ryiza cyane kuko riri mu bwoko bw'imbuto bugira intungamubiri nyinshi cyane umubiri w'umuntu ukenera.

Abagabo batatu bari gufuhira ibigori, ibigori ni igihingwa cyiza cyane kigira intungamubiri ku mubiri w'umuntu.

Umugore ugiye gusoroma icyayi, icyayi ni igihingwa cyiza cyane, gikunze kugaragara mu Majaruguru, kandi giteza imbere igihugu cyacu.

Ibishyimbo biri ku ntara, ibishyimbo ni byiza cyane, kuko bigira intungamubiri zigiye zitandukanye, ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Amababi y'igiti cy'ipera. Ipera ni urubuto rwiza cyane rufite vitamini umubiri w'umuntu ukeneye.

Abahinzi bari mu murima w'amashu, bari guhinga amashu, amashu ni meza cyane, kuko akize kuri vitamini zigiye zitandukanye, umubiri w'umuntu ukeneye.

Igitebo kirimo intonore cyangwa se ibishyimbo bitari byera. Ibishyimbo ni byiza cyane, kuko biri mu bwoko bw'imboga zikungahayeho vitamin nyinshi cyane.

Imyembe ya kizungu. Imyembe ni myiza cyane, ni imbuto zigiraga intungamubiri nyinshi cyane, ku mubiri w'umuntu waziriye.

Ibirayi birunze hamwe. Ibirayi ni byiza cyane, kuko bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye, kandi byongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Amateke arunze hasi. Amateke ni meza cyane agaragara mu Rwanda n'ahandi hatandukanye. Amateke afite intungamubiri zitangaje, kuko yongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Isoko risa nk'aho ari iry'ibitoki. Igitoki ni cyiza cyane gikize kuri vitamine, ndetse intungamumubiri umuntu aba akeneye.

Oranje zeze neza zikiri mu giti. Oranje ni urubuto rwiza cyane, rufite intungamubiri nyinshi mu mubiri wacu.

Avoka isatuye, ni nziza cyane, voka zigira intungamubiri zifasha umubiri w'umuntu gukora neza ibinure.

Abantu bameze nk'aho bari gukorerara amashu. Amashu ni igihingwa kiza cyane gitanga vitamini mu mubiri w'umuntu iyo yakiriye.

Umugore uri mu murima w'ibirayi arikubyitaho. Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane byongera intungamubiri ndetse byongeraga imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Umurima w'ibigori bisa nk'aho bigiye kwera, ibigori n'igihingwa cyiza cyane, kuko gifite intungamubiri nyinshi cyane, umubiri w'umuntu ukenera.

Amatunda menshi atari yatukura ariko ageze igihe cyo kwera. Amatunda ni meza cyane kuko ari imbuto umubiri w'umuntu uba ukeneye.

Inanasi zimeze nkaho ziri gucuruzwa ,inanasi ni ubwoko bw'imbuto bukunzwe cyane, kuko na zo zifite intungamubiri zongera mu mubiri w'umuntu waziriye.

Imyumbati myiza cyane irunze ku kantu, imyumbati ni myiza cyane, kuko ifite akamaro ko kongera imbaraga mu mubiri w'umuntu wayiriye.

Ivoka isatuyemo ibice bibiri, voka ni nziza cyane kuko ifasha umubiri w'umuntu kumwongerera vitamine zigiye zitandukanye.

Ibirayi birunze hamwe ku butaka. Ibirayi ni byiza cyane kuko bifite vitaminini nyinshi cyane zigiye zitandukanye umubiri wacu ukeneye.

Ibisheke bimeze nk'aho biri aho bicururizwa. Igisheke ni cyiza cyane ku mubiri w'umuntu, kuko cyongera isukari mu mubiri w'uwakiriye.

Igitoki kinini cyane kidahiyemo imineke. Igitoki ni cyiza cyane, kuko gifite akamaro kanini ku muntu wakiriye kikamwongerera intungamubiri mu mubiri we.

Ahantu hari ibiribwa bigiye bitandukanye birimo imbuto. Ibi biribwa ni byiza cyane kuko byose bikungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye.

Ibigori byumye bimanitse. Ibigori ni byiza cyane kuko bifite intungamubiri zigiye zitandukanye, ku mubiri w'umuntu.

Ibigori by'amahundo byumye bipakiye neza mu mufuka, ibigori ni byiza cyane kuko bifite akamaro ko bizana intungamubiri mu mubiri wacu.

Impeke z'ubunyobwa bucagaguyemo kabiri, ubunyobwa ni bwiza cyane, bugira vitamini ku mubiri w'umuntu iyo yaburiye.

Ubigori bisa nkaho bigiye kuma bimanitse ku biti ,ibigori ni byiza cyane, ku muntu wabiriye agira intungamubiri zikomeye n'ubudahangarwa ku mubiri we.

Ibishyimbo byinshi by'umukara bizwi ku izina rya nyiramukara, ibishimbo ni byiza cyane, kuko na byo bifite intungamubiri umubiri w'umuntu uba ukeneye.

Ibishyimbo birunze ku ntara. Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane, gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane, umubiri w’umuntu uba ukeneye buri gihe.

Ikawa nyarwanda ifashwe n'ibiganza. Ikawa ni nziza cyane kuko izana amafaranga mu muryango w'umuntu wayihinze, igateza imbere n'Igihugu cyacu.

Ibishyimbo birunze hasi. Ibishyimbo ni byiza cyane, kuko bifite akamaro kanini ku mubiri w'umuntu, iyo yabiriye bimuha intungamubiri zigiye zitandukanye.

Umuceri uri mu kagemeri, umuceri ni mwiza cyane, iyo umuntu yawuriye aba ariye itungamubiri ihagije, ikenewe mu mubiri we.

Impeke z'amajeri zigiye zisataguye. Impeke ni nziza cyane ku muntu wazitetse akazirya, zimwongerera intungamubiri mu mubiri we.

Ibishyimbo biri mu kantu ka gasorori. Ibishyimbo ni byiza cyane kuko bifite akamaro kanini mu mubiri w'umuntu gatandukanye.

Ibishyimbo birimo amabara agiye atandukanye. Ibishimbo ni byiza cyane, iyo muntu yabiye agira intungamubiri zigiye zitandukanye mu mubiri we.

Impeke z'amajeri, amajeri ni meza cyane, afite intungamubiri zitandukanye ku mubiri w'umuntu wayariye.

Uruyange n' uduteja tw' ibishyimbo. Utu duteja ni twiza cyane kuko dufite intungamubiri zitandukanye mu mubiri w' umuntu waturiye.

Impungure z'ibigori ziri mu gasorori ,ibigori ni byiza cyane kuko bigira intungamubiri zitandukanye mu mubiri wacu.

Umuntu uri kwita ku murima w'uturabo. Uturabo ni twiza cyane kuko dutanga imiti imwe igiye itandukanye ivura indwara.

Amasaka yeze ageze igihe cyo gusarurwa. Amasaka ni meza cyane kuko afite akamaro kanini ku mubiri w'umuntu.

Wagezeyo. Ubunyobwa ni bwiza cyane, ubunyobwa bugira vitaminini nyinshi mu mubiri w'umuntu, iyo yaburiye.

Impeke z'ibigori ziri mu ibase. Ibigori ni byiza cyane, bigira intungamubiri zitandukanye ku mubiri w'umuntu iyo yabiriye.

Abagabo babiri bari guhura ibishyimbo. Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane, gifite intungamubiri nyinshi cyane zifasha umubiri wacu gukora neza.

Ibigori bifite amasaro y'umuhondo, ibigori ni byiza cyane, kuko bituma umubiri w'umuntu ugira ubudahangarwa iyo yabiriye.

Ibigori bifite amabara y'umuhondo, ibigori ni byiza cyane kuko bigira intungamubiri nyinshi cyane, ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Impeke ziri mu bintu bimeze nk'amasorori, izi impeke ni nziza cyane kuko zikungahaye kuri vitamini, umubiri w'umuntu ukenera.

Umufuka urimo ibishyimbo ubundi urimo ibirayi, ibi bihingwa byose bikungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye zifashaga umubiri gukora neza.

Igihwagari gisa nk'aho kenda kwera. Igihwagari ni igihingwa cyiza cyane gikorwamo amavuta, kandi gifite n'akandi kamaro kagiye gatandukanye.

Udufuka turimo impeke zigiye zitandukanye, impeke zigira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu waziriye.

Igihwagari gisa nk'aho cyeze. Ibihwagari bifite akamaro kanini gatandukanye, kuko bivamo amavuta duteka.

Ibigori birunze hamwe by'amahundo, ibigori ni byiza cyane kuko bifite intungamubiri zigiye zitandukanye, umubiri w'umuntu ukenera.

Ibishyimbo, umugore uri kubigosora akabisuka ku mufuka, ibishyimbo ni byiza cyane kuko bifite akamaro kanini ko kuzana intungamubiri, mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Ibishyimbo bifite imiteja itari yera. Imiteja iri mu bwoko bw'imboga kandi byose bikubiyemo vitamini zigiye zitandukanye.

Umuntu uri gutoranya ubunyobwa budatonoye. Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane gikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye.

Inzu imanitsemo ibigori byumye, ibigori ni byiza cyane iyo wabiririye ugira intungamubiri umubiri wawe ukagira n'ubudahangarwa.

Ubunyobwa butonoye ndetse n'ubundi buhinze hakurya yabwo, ubunyobwa ni bwiza cyane kuko bukize kuri vitaminini zigiye zitandukanye.

Umugore ufite ibishyimbo mu gitebo, ibishyimbo bisa naho ar'intonore, ibishyimbo ni byiza cyane kubera ko bigira intungamubiri.

Abantu bari guhura umuceri mu kibaya ,cyangwa se mu gishanga, umuceri ni mwiza cyane, kuko ufasha kongera vitamini mu mubiri w'umuntu.

Ubunyobwa bw'impeke bumeze nk'aho bukaranze. Ubunyobwa ni bwiza cyane, kuko bukubiyemo vitamini zigiye zitandukanye.

Ibigori byinshi byumye birunze ahantu hamwe. Ibigori ni byiza cyane kuko bifite akamaro gatandukanye mu mubiri w'umuntu wabiririye.

Ibigori byamahundo bimanitse hejuru ku biti bigori nibyiza cyane kuko bituma umubiri w'umuntu kubona vitamini.

Igihwagari cyeze ,ibihwagari ni byiza cyane kuko bifite akamaro kanini kagiye gatandukanye, kuko bivamo n'amavuta yo kurya.

Umugabo wikoreye ibishyimbo bikiri intonore, ibishyimbo ni byiza cyane kuko bizana intungamubiri ku mubiri w'umuntu.

Uburo, uburo ni utubuto twiza cyane. Ni uduheke dufite vitamini zivura zirinda indwara zigiye zitandukanye.

Imiteja y'ibishyimbo, imiterere ni myiza cyane, iri mu bwoko bw'imboga zikungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye.

Ibigori bisa nk'aho bitari byera neza bikiri mu murima. Ibigori ni byiza cyane kuko bigira intungamubiri nyinshi cyane zitandukanye.

Igihingwa cy'ubunyobwa giteye neza ku murongo, ubunyobwa ni bwiza cyane kuko bufite intungamubiri zigiye zitandukanye mu mubiri w'umuntu.

Ubunyobwa budatonoye. Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane, gifite intungamubiri zigiye zitandukanye zongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Ibishyimbo bikiri bitoya, ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane iyo umuntu agihinze akagisarura kimuha intungamubiri mu mubiri we iyo yakiriye.

Ubunyobwa, ubunyobwa bukiri mu bishishwa, ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane, gifite intungamubiri nyinshi cyane umubiri w'umuntu ukeneye.

Ibishyimbo biri ku gasahani bisa n'umutuku. Ibishyimbo ni byiza cyane kuko bifite intungamubiri zigiye zitandukanye, ku mubiri wacu.

Umuteja urikumwe nuruyange imiteja ni bwoko bw'udushyimbo tutarera ariko turi mu bwoko bw'imboga kandi tugira intungamubiri nyinshi cyane.

Ibishyimbo bisa nk'aho ari intonore, intonore ziri mu bwoko bw'imboga, kandi zikaba zifite intungamubiri nyinshi, umubiri w'umuntu ukeneye.

Ibigoriri birunze ahantu hamwe, ibigori ni byiza cyane kuko byongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Ubunyobwa budatonoye, ubunyobwa ni bwiza cyane kuko bufite intungamubiri nyinshi cyane mu mubiri w'umuntu. Iyo yaburiye aba ariye vitamini zitandukanye.

Ibishyimbo bikizamuka bifata ku biti. Ibi bishyimbo ni byiza cyane, kuko bizana amababi abantu bamwe bayarya nk'imboga, kandi afite vitamini.

Udufuka turimo ubwoko bwinshi bw'impeke, ubwoko bw'impeke bukize kuri vitamini zigiye zitandukanye, umubiri w'umuntu ukenera.

Umurima uhinzemo amajeri. Amajeri ni igihingwa cyiza cyane kandi gifite vitamini zigiye zitandukanye zikenerwa mu mubiri w’umuntu.

Igihingwa cy'amajeri ,abantu bari kwitegereza igihingwa cy'amajeri. Amajeri ni meza cyane kuko agira intungamubiri nyinshi ku mubiri.

Ibigori bisa nk'aho bitari byera, bifite ibara ry'icyatsi. Ibigori bitaga ibyatsi ku matungo yacu, kandi nabyo ubwabyo bifite vitamini.

Ibishyimbo bigufi bimanitse hejuru ku biti, ibishyimbo ni byiza cyane kuko nta hantu bitaniye n'ibishyimbo birebire, kuko byose bigira vitamine.

Abantu bafite ibirayi mu ntoki. Ibirayi ni byiza cyane kuko bifite intungamubiri ndetse byongera imbaraga mu mubiri wacu.

Mu gishanga ahahingwa igihingwa cy'umuceri. Umuceri ni mwiza cyane ufite intungamubiri zitangaje, ku mubiri wa muntu.

Ibishyimbo by'umutuku. Ibishyimbo ni byiza cyane, kuko bigira intungamubiri ku mubiri w'umuntu iyo yabiriye.

Umuntu uri kumanura ibigori byumye, ari kubihereza undi. Ibigori ni byiza cyane, kuko bikungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye.

Ubunyobwa budatonoye. Ubunyobwa ni bwiza cyane kuko bugira intungamubiri zigiye zitandukanye, ku mubiri w'umuntu waburiye.

Indimu zirunze hasi, indimu ni ubwoko bw'imbuto bwiza cyane buvura indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye.

Umugore uri kuyora impeke z'ibigori azishyira mu kindi kintu, ibigori ni byiza cyane bizana vitamini ku mubiri w'umuntu.

Uruyange rw'umutuku n'imiteja. Imiteja ni myiza cyane, iri mu bwoko bw'imboga zifasha umubiri w'umuntu mu kuzana vitamini zitandukanye.

Ibigori byumye, ibigori byanitse ku mahema, ibigori ni byiza cyane, kuko bigira intungamubiri zigiye zitandukanye ku mubiri.

Igishanga gihinzwemo umuceri ,umuceri ni igihingwa cyiza cyane ,gifite vitamini zigiye zitandukanye mu mubiri w'umuntu wawuriye.

Imiteja iri mu tutebo, imiteja ni myiza cyane ,kubera ko zikize kuri vitaminini zigiye zitandukanye ,zifasha umubiri w'umuntu.

Umuntu w'umugabo usunitse imiteja cyangwa se intonore ku igare, ibi bishyimbo biri mu bwoko bw'imboga kandi bifite intungamubiri zitangaje.

Ibishyimbo biri ku isahani, ibishyimbo ni byiza cyane kuko bigiraga intungamubiri nyinshi cyane mubiri umuntuntu ugiye gukeneye zigiye zitandukanye.

Ubwoko bw'ibishyimbo bugiye butandukanye, n'utundi duheke dutandukanye, turimo soya, n'utundi twinshi. Ibi byose bikize ku ntungamubiri zigiye zitandukanye.

Inka nini cyane ifite amahembe maremare iri mu kiraro. Inka ni nziza cyane, zitanga amata, inyama byose bikungahaye kuri vitamine.

Inka ifite amahembe manini cyane yasumbye umutwe. Inka ni nziza cyane kuko itanga amata, inyama, byose bikungahaye kuri vitaminini.

Umuveterineri ugifite urushinge, usa nk'aho agiye gutera amatungo inshinge, gukingira amatungo ni byiza cyane, kuko biyarinda indwara zitandukanye.

Abagabo babiri bari gukingira ihene. Ihene ni nziza cyane ni amatungo magufiya ariko afite akamaro kanini ku muntu uzoroye.

Inyama zimeze nk'aho ari i z'ingurube zibaze neza, inyama z'ingurube ni nziza cyane kuko zigira intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu.

Amahene asa nk'aho bayajyanye mu isoko, amahene ni amatungo magufi ariko ashobora kuzana amafaranga, igihe umuntu ayoroye neza akayajyana mu isoko, ashobora kubonamo inyungu.

Ingurube ziri konka kuri nyina, ingurube ni itungo ryiza cyane, kuko rifite akamaro ko gukora ifumbire, ndetse zigira inyama zifite vitamini ihagije.

Umwana uri hamwe n'inkoko. Inkoko ni nziza cyane kuko zitera amagi, zigatanga inyama, byose bikize kuri vitamine.

Inkoko z'umweru, iz'umukara n'izindi zifite amabara ya kaki. Inkoko ni nziza cyane kuko zitera amagi afite vitamini nyinshi mu mubiri w'umuntu.

Umugabo uri gutera inka umuti. Gutera umuti inka ni byiza kuko biyirinda ibintu bigiye bitandukanye, harimo nk'ibirondwe byayitera indwara z'uruhu.

Inkoko zorowe ku buryo bwa kijyambere, inkoko ni nziza cyane kuko zifite akamaro kanini zitanga amagi, inyama bikungahaye kuri vitamini umubiri w'umuntu ukeneye.

Inka nziza, ifite amabara meza, inka ni nziza cyane, umuntu uyoroye ntabwo akunze kubura ifumbire, kandi inka itanga amata, inyama bikize kuri vitamini umubiri ukeneye.

Inkoko y'isake. Inkoko ni nziza cyane iyo umuntu ayibaze akarya inyama zayo abona intungamubiri nyinshi cyane zitandukanye.

Inka ziri kurisha ahantu mu rwuri cyangwa se mu gikuyu, inka ni nziza cyane kuko zitanga amata, inyama byose bifite vitamini.

Inka iri kurisha ahantu hari ubwatsi. Inka ni nziza cyane kuko itanga amata, inyama, byose bikungahaye kuri vitamine zitandukanye.

Umuntu uri kwitegereza inkwavu zorowe mu buryo bwa kijyambere. Inkwavu ni nziza cyane kuko zizana amafaranga mu muryango w'umuntu uzoroye neza.

Abantu bateruye amatureyi y'amagi. Amagi ni meza cyane, kuko atuma umubiri w'umuntu ubona intungamubiri nyinshi cyane zihagije.

Akanyana bagiye gutera urukingo, gukingiza itungo ni byiza cyane, kuko biririnda indwara za hato na hato.

Inka ziri kurisha ahantu mu gikuyu cyangwa se mu rwuri. Inka ni nziza cyane kuko zitanga amata, inyama, kandi zigatanga n'ifumbire yo gukoresha mu buhinzi.

Inka nziza ziri kurisha ubwatsi, inka n'itungo ryiza kuko ritanga amata, inyama kandi byose bikize ku ntungamubiri zitandukanye.

Inka ifite amahembe manini. Inka ni nziza cyane kuko zitanga amata, inyama, byose bikize kuri vitamini zitandukanye.

Amatureyi y'amagi apanze neza ku murongo. Amagi ni meza cyane kuko afite vitaminini nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Ingurube ziryamye, ingurube n'itungo rigufi rifite inyama zigira intungamubiri nyinshi cyane, ku mubiri w'umuntu iyo yaziriye.

Inkoko nziza ya Kaki ,inkoko ni nziza cyane, kuko zitera amagi, zikavamo n'inyama bifite intungamubiri

Inka isa nk'aho bagiye kuyitera inshinge, gukingira cyangwa se kwita ku itungo ni byiza, kuko biririnda uturwara duto tugiye dutandukanye.

Inkoko nyinshi ziryamye izindi zihagaze z'umweru. Inkoko ni nziza cyane kuko zivamo inyama zifite vitamini nyinshi cyane umubiri w'umuntu ukeneye.

Umukumbi w'amahene aziritse ahantu mu gitari, hari ibiti byinshi. Amahene ni itungo ryiza cyane, kuko rifasha umuryango mu gukemura ibibazo bimwe na bimwe.

Inyama nziza cyane zibaze, zimanitse ahantu, inyama ni nziza cyane, kuko zifite intungamubiri zigiye zitandukanye, zifasha umubiri w'umuntu mu gukura neza.

Inka ifite ibara ry'umuhondo. Inka ni nziza cyane kuko zifasha mu kongera umusaruro uzikomokaho, amata, inyama, byose bifasha umubiri w'umuntu, bikongeramo vitamini.

Intama ziziritse ahantu ziri kurisha intama ni itungo ryiza cyane kuko rifitiye akamaro kanini kuko zitanga n'inyama zifite vitamini.

Itungo, itungo ryitwa ingurube. Ingurube ni nziza cyane kuko itanga inyama zifite intungamubiri zitandukanye.

Itungo ryo mu rugo rizwi ku izina ry'imbwa bagiye gutera urukingo. Gukingiza imbwa ni byiza cyane, bituma zitaruma abantu ngo bahure n'ibindi bibazo.

Inka nziza cyane iri gukamwa, inka zitanga amata, inyama bikize kuri vitamini, umubiri w'umuntu uba ukeneye.

Ingurube iri mu kiraro, ingurube ni itungo ryiza cyane rivamo inyama nziza ifite vitaminini ikunzwe cyane kandi ifasha umubiri w'umuntu.

Ingurube nyinshi ziryamye hamwe, ingurube ni nziza cyane, kuko zigira inyama zirimo vitaminini nyinshi cyane, zigiye zitandukanye.

Umuntu ufashe ingurube usa nk'aho agiye kuyishyira mu kiraro, ingurube ni nziza cyane, kuko itanga inyama, ifumbire, bigafasha umuryango gutera imbere.

Ingurube iryamye, ibyana byayo biri konka. Ingurube ni nziza cyane, kuko itanga inyama, ifumbire, n'amafaranga ku muryango, ukiteza imbere.

Inyamaswa imeze nk'aho bari kuyitera urukingo. Gukingiza inyamaswa zororerwa mu rugo, ni byiza cyane kuko birinda kwanduza indwara abantu.

Inka iri mu kiraro iri kurya ibyatsi, inka ni nziza cyane kuko zitanga amata, inyama, bikize ku ntungamubiri nyinshi cyane.

Inkoko z'umukara n'umweru, zororerwa hamwe. Inkoko ni nziza cyane, kuko zitanga amagi, inyama, bifite vitaminini zitandukanye.

Inkoko ni ubwoko bw'amatungo magufi atera amagi, zigatanga inyama, ndetse kandi zifite vitamini, umubiri w'umuntu uba ukeneye.

Ingurube iri konsa ibyana cyangwa se ibibwana bya yo. Ingurube ni nziza cyane, kuko zitanga umusaruro ku muntu uzoroye.

Inka ziri ahantu mu gikuyu cyangwa mu rwuri, inka ni nziza cyane kuko zitanga amata, inyama byose bikungahaye kuri vitamini zitandukanye.

Intama nyinshi cyangwa se umukumbi w'intama ziri kurisha ubwatsi, intama ni nziza cyane kuko zifite akamaro kanini cyane mu buzima busanzwe.

Urukwavu, udukwavu twinshi turi gusangirira hamwe. Inkwavu ni nziza cyane kubera ko iyo uzibaze, ukarya inyama zazo uba uriye intungamubiri.

Amagi ari mu matureyi ,amagi ni meza cyane kuko yongera intungamubiri nyinshi cyane, mu mubiri w'umuntu wayariye.

Ingagi ihagaze yonyine. Ingagi ni nziza cyane, kuko zikurura ba mukerarugendo bakazana amadovize mu Gihugu cyacu.

Ingagi ziri mu ishyamba ,ingagi ni nziza cyane kuko zikurura ba mukerarugendo, bakaza mu Gihugu cyacu bazanye amadovize.

Iyi inyoni ifite amabara meza, ifite umunwa muremure. Inyoni ni inyamaswa iguruka nziza ifasha mu gukwirakwiza ibimera bimwe na bimwe.

Ubwoko bw'inyoni bwitwa umusambi, umusambi ni inyamaswa iguruka nziza cyane, ifite umusatsi wo hejuru utangaje cyane.

Inuma imeze nkaho ari iya kizungu, inuma ni inyamaswa iri mu bwoko bw'inyoni iguruka, kandi igafasha mu kororoka kw'ibihingwa bimwe na bimwe.

Imbogo zo mu ishyamba ni inyamaswa ziri mu bwoko bw'inka ,ariko zikunze kugira amahane menshi cyane, ariko zikaba zikurura ba mukerarugendo mu gihugu.

Inyamaswa zizwi ku izina ry'inkende, izwiho kurira ibiti binini, kandi vuba. Iyi nyamaswa ikaba izwiho gusuzugura igitsinagore.

Inyamaswa y'umweru iri mu bwoko bw'inyoni ikunze kudoma amafi ari mu mazi, inyamaswa ni nziza cyane kuko zikurura ba mukerarugendo, bakazana amadovize mu gihugu cyacu.

Agashwi gato k'imbata cyangwa se akana k'imbata, imbata ni itungo ryiza cyane rigufi rifite akamaro kenshi kuko ritera amagi afite vitamini.

Inyamaswa izwi ku izina ry'isatura, isatura ni inyamaswa isi kwiruka cyane kandi ikaba ifite akamaro ko kuzana ba mukerarugendo mu gihugu cyacu.

Inyamaswa y'ishyamba iri mu bwoko bw'amapusi, inyamaswa ni iy'inkazi cyane, ibindi bisimba bigenzi byayo birayitinya cyane bikagira amahani menshi cyane.

Aka kanyamaswa ni akanyamaswa gakunze kwibera mu ishyamba, inyamaswa ni nziza cyane kuko zikurura ba mukerarugendo, bakazanira igihugu cyacu amadevize.

Ubwoko bw'inyoni zizwi ku izina ry'ifundi. Inyoni ni inyamaswa nziza cyane zikunzwe, kuko zinafasha mu kororoka kw'ibimera bimwe na bimwe.

Inyoni izwi ku izina ry'inyombya. Ni inyoni ikunze gusakuza cyangwa se kuvuga mu gitondo, ikunze gukangura abantu benshi.

Inyoni ziri mu biti. Inyoni ni nziza cyane kuko zikurura ba mukerarugendo, bakaza gusura ibihugu byacu, bazanye amadovize.

Udusumbashyamba cyangwa se Twiga, Twiga ni inyamaswa ndende cyane, ifite ijosi rirerire, inyamaswa ni nziza cyane.

Inyoni iri ku turabo izwi ku izina ry'umununi, inyoni ni inyamaswa iguruka, ifite akamaro ko gukwirakwiza imbuto zikamera aho zitari .

Inyoni iri kwarika icyari. Inyoni ni inyamaswa iguruka. Inyoni ni inyamaswa nziza cyane kuko ntizigira amahane, kandi zifasha mu kororoka kw'ibimera bimwe na bimwe.

Akanyamaswa gafite umwana wako. Inyamaswa ni nziza cyane, kuko zizana ba mukerarugendo baje mu butembere, bakinjiriza igihugu cyacu amadevize.

Akanyamaswa kari mu bwoko bw'ihene, kitwa ishya, kazi kwiruka cyane. Inyamaswa ni nziza cyane, kuko ikurura ba mukerarugendo, bakazana amadovize mu gihugu cyacu.

Inyoni ihagaze muturabyo twiza cyane, inyoni ni ikiguruka kitagira amahane kandi gifasha mu gukwirakwiza ibimera bimwe na bimwe.

Ubwoko bw'inyoni ifite ibara ry'umweru, ikunze gufata amafi mu nyanja cyangwa se mu migezi. Iyi nyoni ifite amabara y'umweru meza, ashimishije cyane.

Iyi nyoni ikunze kurya udufi dutoya two mu mazi, iyi nyoni ifata amafi yo mu mazi kuko ariyo ayitunze.

Inyoni iri ku giti, inyoni ni inyamaswa ziguruka, inyoni ni nziza cyane, iyo umuntu azitegereje abona ari inyamaswa ziremwe neza.

Akanyoni gahagaze ku turabo kazwi ku izina ry'umununi. Aka kanyoni ni keza cyane, kandi gafasha mu kororoka kw'ibimera bitandukanye.

Inyamaswa zitwa ingagi ebyiri ziri mu butembere. Ingagi ni nziza cyane kuko zikurura ba mukerarugendo bakazanira amadovize Igihugu cyacu.

Intare iri ku biti byumye hejuru. Intare ni inyamaswa y'inkazi cyane, ariko zifite akamaro kanini, kubera ko zikurura ba mukerarugendo.

Utunyamaswa tubiri twegeranye, inyamaswa ni nziza cyane, kuko zikurura ba mukerarugendo, bakazana amadovize mu gihugu cyacu.

Inyoni zaritse mu biti byiza. Inyoni ni nziza cyane kuko zifasha mugurukana utubuto tumwe na tumwe zikadusakaza ahandi tutari tukamera.

Inyamaswa izwi ku izina rya Nyirabuhene ni inyamaswa iteye amabengeza . Mu kuyireba, ni inyamaswa nziza cyane , kuko ifitiye akamaro igihugu mu kuzana ba mukerarugendo.